Abantu bicaye hamwe bambaye imipira imwe isa, hagati hari umuntu uhagaze, hagati yabo hari inkingi, kubikuta hari imitako, inyuma yabo hari bafule.

Abantu bicaye wagira ngo bari mu nama, imbere y'abo hari mikoro n'icupa ry'amazi harimo n'abagiye bafite imashini ariko ntago ari bose.

Abantu bicaye imbere yaho hari ameza ariho ururabo bamwe bari kureba mu ikayi, undi umudamu ateruye mwana baricaye barebana harimo umusirikare.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Abantu bicaye mu nzu, wagira ngo bari mu nama, bamwe mashini zigiye zibatereretse imbere, abandi barimo barareba, imbere yabo hagiye hari amazi.

Abantu bicaye imbere yaho hari amazi, iruhande rwabo hari icyapa, imbere y'icyo cyapa hahagaze umudamu wari ufite mikoro wagirango ari kuvuga ijambo; ku gikuta hari umutako w'umugabo uri gucuranga iruhande rwe hicaye abana.

Abagabo babiri bicaye imbere y'imashini, umwe ari gukoresha suri, imbere ye hari igipapuro, undi arimo aramureba mu maso yambaye ingofero, imashini ye hacometseho imigozi iruhande rwayo hari purinta.

Inzu y'ubucuruzi hanze hari imodoka na moto n'akandi kantu ku ruhande gakoreramo ibintu bimeze nk'irembo hari n'abantu bahagaze imbere y'umuryango ndetse n'ibitoki n'amadobo n'amabasi.

Ni fomu yo kurejisitaringa, hariho aho gushyira amazina, amazina yawe yose, izina ryo mo hagati, igitsina, igihe wavukiye n'igihugu uturukamo. Inyuma yaho hari inzu wagira ngo ni ibikorwa remezo, etaje

Handitseho amagambo login, legistor kinya English laula, water and sanitation hagiye handitseho amagambo harimo na kantu ka foro, facebook ,instagram, message hariho na rimwe.

Abana bicaye mu ishuri barimo barakoresha mudasobwa barikumwe n'abarezi babo barimo baragenda baberekera uko bikora.

Imodoka ihetse umuntu inyuma iri mu muhanda iragenda, n'abanyamaguru mu nkengero ndetse n'ibiti birebire mu nkengero; hari ahantu hapfutswe wagirango bari kubaka.

Abantu babiri bicaye mu nzu umwe ari kureba muri telefone mu rundi ruhande rwe ari kureba mu mumashini, imashini iraka hakaba hari bicaye ku ntebe, imbere y'aho imashini hari imashini ijimije n'ibipapuro bimanitse ku rukuta.

Abagabo, abagabo babiri wajyanwe bakuwe muri rege bambaye amajire ya rega nicy'imodoka iparitse igiye ifite imigozi ku mpande igiye icometse ndetse n'ibintu bimeze nk'amafizibule hagati mjriyo modoka harimo n'igikarito.

Kaburimbo ruguru yaho hari urukuta, hari ibiti birebire ndetse n'imodoka ziparitse iruhande rwayo ruguru n'umuntu uhagaze imbere ye hari umufuka n'indobo n'abantu bari mu muhanda na moto ziri kugenda.

Umuhanda urimo imodoka y'ubururu itwaye amabati hari umuntu uri kuri yo modoka itwaye ibati hari moto itwaye umugenzi ndetse kuruhande rwe hepfo har' umusore ufite ikote ku rutugu ndetse hari nundi mugenzi uri kugenda muruhande rumwe n'imodoka inyuma ye hari igare hepfo hari ahantu bubatse hameze nk'ahantu bari kubaka hari ibiti by'icyatsi.

Inzu bari kubaka iruhande rwayo hari ibyapa bibiri icya rege ndetse n'imodoka iri mu muhanda n'umuntu uri inyuma y'iyo modoka.

Ahangaha biragaragara ko ushobora gutunga apurikasiyo ya ekwiti banki muri telefoni, maze ukajya uyifashisha mu bikorwa ushaka gukoresha konti yawe haba kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza n'ibindi.

Inzu ndende zifite umuryango, imbere y'aho hari ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi, hino ariyo modoka y'agatoyota iparitse, ndetse no hakurya turi kubona amazu.

Kwa muganga abantu bamwe baryamye ku buriri, amaserume undi aricaye, hakurya hari imashini.

Amazu menshi imbere yaho hari abantu amamoto aparitse inzu iriho ibigega bibiri ndetse na pasuparume n'ajaride n'imodoka ziparitse n'abana bari kugenda n'amapoto y'insinga .

Umuntu uri kwinjira hagati mu marembo, harimo ikimenyetso cyo guteranya, hepfo yaho hari imodoka, na ruguru yaho hari imodoka ruguru y'icyapa gato, ruguru ya geti ho gato hariho icyapa.

Ni igitsina gore gihagaze arimo arareba yambaye ikote n'ishaneti mu ntoki n'imisatsi ye ifungiye inyuma.

Abantu benshi bicaye muri sale, imbere yaho hari umuntu wagira ngo ari kuvuga ijambo imbere ye hari mikoro n'akantu baba bafasheho, abandi bari imbere ye bamuteze amatwi.

Fire extinguisher ifashe ku rukuta, munsi yayo hari puberi irimo imyanda, hejuru kuri fire extinguisher hariho akantu k'umuhondo.

Aba ni abantu batatu, abagore babiri n'umugabo umwe ,umugabo ahagaze hagati y'abagore babiri hirya hari uwundi mudamu uhagaze yifashe inyuma yabo bantu batatu, hari uwundi usa nkaho arimo ari...

Ni umugabo uhagaze imbere ye hari ibyapa biriho ishusho y'umuntu n'amagambo arahagaze, hariho na mikoro wagira ngo ari kuvuga, inyuma ye hicaye abagabo, ibumoso bwe hari umugabo umwe, iburyo hari abagabo babiri n'umudamu umwe.

Umugabo uri kwiyamamaza ufite igipapuro mu ntoki n'abandi bagabo bahagaze iruhande rwe babiri, inyuma ye hari amafoto asa nkaho ari kwamamaza n'abandi bantu bicaye ku ntebe no hakurya hari amazu n'abantu bahagaze.

Abantu wagira ngo bari gutora, imbere yaho hari utubogisi bari kugenda bashyiramo impapuro, abandi bahagaze ku ruhande abandi bicaye inyuma yaho bari kubareberara.

Imodoka za tagisi nyinshi na kwasiteri n'abantu barimo baragenda, abandi benshi barahagaze.

Kaburimbo, harimo umumotari n'imodoka; hagati hari jaride itewemo imikindo, kuruhande hari umudamu uri gukora isuku wunamye, hirya hari ibiti.

Imodoka itwaye ibintu iri muri kaburimbo, hepfo yaho hari ibiti birebire, hepfo yaho none hari ikintu kizitiye gisa icyatsi.

Imodoka ya vatire, iri hagati mu muhanda harimo umuntu, hirya y'aho hari ibiti n'uruzitiro.

Imodoka iri mu mu, imodoka iri mu muhanda, imbere yayo hari umunyonzi, igare ritwaye umuntu, hakurya hari ibiti birebire, ndetse n'itara ryo ku muhanda.

Igikamyo kinini gitwara peteroli, inyuma yaho hari amamoto n'abantu bahagaze hepfo y'icyo gikamyo, hari akamodoka gatoya kamwe gatwara ibintu.

Abahungu babiri bari gusunika gorofani y'imizigo, kuri iyo ngororofani hariho imifuka irimo ibintu, umuhungu umwe ari imbere ari gukurura undi ari inyuma arimo arasunika, hakurya hari amazu y'ibikorwa remezo n'abantu.

Imodoka iri mumuhanda w'amabuye ya tagisi vatiri, hepfo yaho hari igipangu hejuru gifite itara, hirya yaho hari ibiti bimeze nka sipure.

Imodoka ya kwasiteri iri muri kaburimbo, imbere yayo hari moto, hino yaho hari rigori harimo ibyatsi, hepfo yaho hari ibiti biteye ku muhanda.

Mukuzungu igikamyo kirekire gitwaye ibintu, iruhande rwazo hari moto n'umuntu uri kugenda mu muhanda w'abanyamaguru, hepfo yaho hari ibiti, imbere yaho hari amazu n'ibindi biti n'impota y'amashanyarazi.

Mu muhanda harimo umukobwa wambaye ingofero n'ikanzu y’igiteyenge afite akajerekani, ari kuri telefone imbere hari icyapa, hepfo hari umukindo ndetse hari inzu nziza, ifite igipangu gisa neza hari ipoto ry'amashanyarazi ndetse ari guturuka mu muhanda w'igitaka yinjira muri kaburimbo.

Kaburimbo iruhande rwayo hari icyapa cyerekana/kiriho umuntu, n'ikindi gishushanyijeho ti yitambitse iruhande rwabyo hateye ibiti, hejuru hari uruzitiro rw'inzu, mu muhanda harimo igare n'imodoka, n'amatara yo ku muhanda.

Amazu maremare, imbere yaho hari akajaride gato gateyemo indabo, n'ipoto ndende iriho insinga y'amashanyarazi, imbere yaho hagiye hari kaburimbo inzu zose zigiyeye zifite polutaye.

Umuhanda w'amabuye, ruguru yaho hari inzu n'umurima uteyemo ibiti, hari umuntu uri kugenda mu muhanda, inyuma ye hari imodoka n'umuntu uhagaze imbere y'imodoka, hakurya hakaba hari amazu maremare.

Wasanga nawe koko utaramenya ko buriya igiti gishobora kuvamo ibintu byinshi bitandukanye. Igiti ni ikintu ushabora kubyazamo umusaruro mu bintu byinshi bitandukanye. Aha turahabona umutako mwiza cyane ushobora guterekaho n'utundi dutako twinshi tugiye dutandukanye wakozwe mu giti, warabajwe neza barangije bawusiga irangi ryiza; ubundi umuntu arawumanika mu nzu ye, ashyiraho utundi dutako dutandukanye, ubona ko unogeye ijisho kandi ujyanye n'igihe.

Feruje iri kwaka icyatsi zebura korosingi, kamera moto ndetse n'imodoka ruguru yaho hari ibiti bikikije inyubako ndetse na pasiparume.

Kaburimbo irimo imodoka ziri kugenda, moto, amatara yo ku muhanda arimo hagati muri kaburimbo, icyuma kigaragaza diregisiyo, ibikamyo, iminara, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibiti biteye ku muhanda.

Umuhanda ,mu muhanda harimo moto itwara imizigo, hirya yaho hagiye hari amazu harimo na rigori, no hepfo hari amazu hirya hari amazu hari n'ibiti ku mpande,...

Kaburimbo hariho moto zihagaze, hirya hakazaho zebura korosingi n'ibiti biri hepfo, n’ ibiti biri hepfo y’ umuhanda.

Kaburimbo harimo zebura kurosingi, harimo ibiti birebire by'imikindo. Hakazamo amatara yo ku muhanda n'abantu babiri bari kugenda bamajije kwambuka, na moto n'imodoka biri guturuka mu wundi mukono wo hakurya.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, hakurya y'aho hari amatara maremare amwe yo k'umuhanda, hirya hari abantu bari guhita, moto, jaride, ndetse n'ibiti birebire.

Kaburimbo harimo imodoka na moto n'ibyapa, umukindo n'ibiti biri ku mpande ya kaburimbo n'amapave n'ikintu kigaragaza diregisiyo uri kujyamo.

Kaburimbo hagati harimo jaride iteyemo imikindo, hakurya hari kaburimbo, hepfo hari ibiti biteye birebire, hakurya hari amazu.

Akazu ko ku muhanda kamwe kaba kicayemo abagenzi; igare riparitse, kaburimbo irimo moto, imodoka ziri kugenda, ibikamyo n'abantu barimo baragenda.

Inzu ndende za etaje imbere yaho haparitse imodoka, amamoto, abantu bari kugenda, imodoka ziri kugenda amatara ku mpande amwe yo kumuhanda, imigozi hejuru y'umuriro n'ibiti biteye ku muhanda.